Uburyo bukoreshwa mu kwamamaza ikigo cy'ubwishingizi naho kika gisohora ikarita iriho aho wagisanga ugikeneye.

Igikorwa cyangwa inama yabereye mu cyumba kinini kirimo ameza menshi azengurutse, apfukishijweho ibitambaro by'umweru kandi hejuru hari indabo n'imitako. Abantu bicaye neza kandi bambaye neza, imyambaro y'iniro. Icyumba ni kinini kandi cyana neza, hasi hari tapi y'ubururu no hejuru hari isakaro ryiza ry'ihema ry'umweru. Haragaragara ibikoresho nk'amashusho, byerekana ko iki gikirwa kirimo kirafatirwa amashusho.

Umuntu wambaye umwenda w'umweru ndetse n'amarinete afashe mikoro indangururamajwi inyuma yiwe hari igikuta cyangwase icyapa kiri mw'ibara ry'ubururu ariko kigizwe n'amagambo y'umweru atabasha kuba yasomeka neza uwo muntu arimo aragezaho ijambo abantu tutari kubasha kubona.

Mumuhanda ahagaragara imodoka ifite ibara ry'ivu, ndetse n'ikamyo ifite ibara ryera itwaye ibintu hari umuntu urimo urahatambuka ndetse mu ntera hari ibiti ndetse n'igitambaro gikikije ibyo biti cy'icyatsi. Inyuma kandi nabwo hari andi makamyo asa nkaparitse ariko atagaragara neza.

Ku ruhande rw'umuhanda haragaragara umuntu urimo urasunika igare ryikoreye imifuka, iyo mifuka ikaba isa umweru ndatse irimo ibintu, hakurya y'uruganda haragaragara ibimera ndetse n'ibiti bipfutswe n'igitambaro kibonarena ariko cy'icyatsi.

Ibimenyetso bibiri by' inzira byo kuburira abashoferi ikimenyetso cyo hejuru kirerekana ahashobora kuba indege zigurukira hasi kikaburira abashoferi ko bashobora kubona indege ziri hafi. Ikimenyetso kiri munsi kirerekana umuhanda ugoramye ufite ubuhaname bwa cumi n'akabiri ku ijana kigamije kuburira abashoferi ko hari ahamanuka cyane imbere. Ibi bimenyetso bigamije umutekano wo mu muhanda.

Amatara yo mu muhanda akoreshwa mu kuyobora abagenzi n'abanyamaguru, hari itara ryaka ryerekana ko abanyamaguru bemerewe kwambuka, umuhanda n'icyerekezo cy'igihe gisigaye cyo kwambuka, inyuma y'amatara haragaragara ibimera byivanze n'ibiti ndetse hasa n'amashyamba by'icyatsi.